Abana benshi cyane kandi bakiri batoya bicaye ahantu hamwe, barimo barakina imikino myinshi igiye itandukanye. Ni byiza gushyira abana hamwe bagakinana kuko bibatera umunezero.

Abana benshi bari mu kigero k'imyaka imwe bakiri bato cyane, aba bana bicaye barimo baranywa igikoma, bose bafite ibikombe by'icyatsi, bicaye ku ruziga rumwe.

Ikigo cy'amashuri aho muri iki kigo harimo abana benshi batandukanye, bambaye iniforume ya kaki, abahungu ndetse n'abakobwa bambaye cotton, muri iki kigo harimo umwarimu wigisha aba bana.

Mu bigo by'amashuri bigiye bitandukanye muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, dusanga muri ibi bigo hari ibibuga abana bakiniraho imikino igiye itandukanye, aho twavugamo nka volleyball, ndetse naho bakinira basketball.

Ishuri ririmo abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru n'ubururu ndetse n'imipira, abanyeshuri bicaye mu ishuri aho imbere yabo hari umwarimu urimo urabigisha.

Igitabo kiriho umuhungu wambaye ishati y'ubururu, ndetse n'abandi banyeshuri, bicaye. Iki ni igitabo kigaragazwa yuko cyigishirizwamo isomo ry'imibare, mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye.

Icyapa kigaragaza ikigo cy'amashuri cyitwa SUMBA SECONDARY SCHOOL. Ni ikigo cy'amashuri kigisha abana ubumenyi butandukanye, yaba ikoranabuhanga ndetse n'ubumenyingiro muri rusange.

Ubumenyi ngiro ni bimwe mu bifasha mu iterambere ry'igihugu, abanyeshuri benshi batandukanye bagizwe n'abahungu n'abakobwa bambaye ibisarubeti by'ubururu, barimo bariga uko bapima ibyuma byo kubakisha.

Akabati karimo ibitabo byinshi binyuranye, ibi bitabo bikaba byifashishwa n'abanyeshuri cyangwa n'izindi nzobere mu bushakashatsi baba bagenda bakora, gusoma ni byiza cyane.

Iyo umunyeshuri yiga aba yiteguye ko umunsi umwe azakora ikizamini cya leta gisoza amasomo aba yarize mu cyiciro runaka. Yaba mu cyiciro rusange cyangwa mu cyiciro cyisumbuye.

Icyapa kinini cyane. Iki ni icyapa kirimo kigaragaza ikigo cyitwa Ruhango Technical Secndary school, iki kigo kikaba giherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, bigisha abana ubumenyi ngiro.

Inyubako nziza cyane igeretse inshuro eshatu. Imbere y'iyi nyubako hari imodoka ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'abantu benshi banyuranye barimo baragenda. Inyuma y'inyubako hari imisozi igaragara n'itagaragara neza.

Icyumba gikorerwamo inama. Ni icyumba kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye. Twavugamo nka projecter, akabati, intebe nyinshi kandi zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza kandi nini cyane, iyi ni inyubako irimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, twavugamo nka mashini, ibikoresho byo gutekeho ndetse n'ibindi byinshi binyuranye.

Inyubako irimo irubakwa n'abafundi benshi kandi batandukanye, imbere y'iyi nyubako hari ubusitani ndetse hari n'amabati akorotiriye aho hantu barimo barubaka iyi nyubako.

Inyubako nziza kandi nini cyane. Ni inyubako ya etage, imbere y'inyubako hari icyapa cyanditseho Eden ndetse hakaba hari n'ikirango cy'umutaka wa MTN Rwanda.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru aho cyegeranye n'ishyamba, iri shyamba rikaba ari rinini cyane, iki kibuga kandi kirimo amapoto yageneweho gukinirwamo uwo mupira mu gihe batera mu izamu, ndetse n'ahandi hashobora gushyirwa televiziyo nini.

Abantu benshi bari mu kayira k'amapave barimo baragenda, bayavuye ahantu hamwe barerekeza ahandi. Ni abahungu ndetse n'abakobwa. Iruhande rw'aka kayira hari ibiti birebire ndetse n'ubusitani.

Icyumba cyiza, kinini cyane. Kirimo intebe nyinshi, zitandukanye. Ndetse n'ameza. Imbere muri iki cyumba harimo umumama urimo urakora isuku. Iyi nyubako igiye iriho amabara menshi atandukanye. Harimo ubururu, umweru, umutuku, ndetse n'icyatsi kibisi.

Akabati kagiye karimo ibitabo byinshi by'amoko atandukanye. Ibi bitabo bikaba birimo ibitabo bya sayanse bikoreshwa n'abanyeshuri mu gihe barimo barakora ubushakashatsi bwinshi butandukanye.

Akabati karimo ibitabo byinshi bitandukanye, ibi bitabo bikaba byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo bariga amasomo agiye atandukanye, muri ibi bitabo twavugamo nk'igitabo cy'imibare, igitabo cya siyansi ndetse n'igitabo cya biologie.